Ibigo bigiye bitandukanye, bitanga ubwishingizi, yaba ubw'ubuzima cyangwa ubw'umutungo, yaba uwimukanwa cyangwa utimukanwa, bikunze gukoresha imbuga nkoranyambaga, cyangwa amateviziyo agiye atandukanye mu gihugu, mu kuba bakwamamaza ibikorwa byabo.

Abacuruzi cyangwa ibigo bigiye bitandukanye bikorera mu gihugu, bikunze kwifashisha kwamamaza ibikorwa byabo yaba iby'ubwishingizi, cyangwa ibindi bikorwa batanga n'amaserivisi atandukanye.

Ni igikorwa cyerekana ubwishingizi ukuntu watura ahantu heza, uharinde neza kirimo umugore n'umugabo wicaye hari na numero wanyuraraho uhamagana.

Hirya no hino ku isi amabanki agiye atandukanye yashyizeho uburyo bw'uko abakiriya babo bakoresha, batavuye aho bari aho bashobora kubikuza cyangwa bakabitsa amafaranga yabo bakoresheje murandasi.

Ni uburyo ugomba kwishyura ibyo wakoresheje, ugashyiramo amafaranga, umuntu wishyura, ibigurishwa n'ibiguzwi wakoresheje ukenera, mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Muri gahunda za leta harimo na gahunda yo guteza imbere ibyakorewe imbere mu gihugu, aho bakora imyenda cyangwa inkweto cyangwa ibindi bintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bakaba babigurisha.

Ahantu hari kubera ubucuruzi, aho ni muri botiki hari umukobwa uri imbere ya mudasobwa, inyuma ye harimo abaguzi n'abagurisha, bari gucuruza ibinyobwa n'ibiribwa n'ibindi bitandukanye bakinjiza amafaranga.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye yaba amashati, amapantaro n'iyindi myenda iyo ari yo yose y'abagabo urayihasanga imanitse cyangwa izinze mu tubati iyo wab wifuza yose urayihasanga.

Hari amaduka acuruza imyenda y'abagore yaba amajipo, amashati cyangwa ubusengeri bw'umukara n'inkweto, aho umugore cyangwa umwari ashobora kujya kugurira ibikoresho byo kwambara.

Ahantu henshi hacururizwa imyambaro itandukanye yambarwa n'abagore uhasanga amakanzu, imipira, amapantaro, amajipo n'ibindi byose byambarwa n'abategarugori n'abari.

Kuboha ni umwe mu myuga ikorwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, bityo rero abantu benshi bakunda kujya kugura ibintu biboshye nk'umutako ukoreshwa mu mazu yabo.

Ahantu henshi mu gihugu ukunze gusangamo amaduka acuruza inkweto yaba iza rugabire cyangwa izindi z'ubwoko bugiye butandukanye aho baba bazikoreye n'intoki zabo cyangwa bakoresheje imashini ariko zakorewe mu gihugu.

Abantu babiri bambaye imikara bicaye ku meza y'umukara, basohokeye ahantu hari amatara yo mu bwoko bwiza, ahantu h'ahasirimu hakeye bari kuganira bari kunywa n'ibintu runaka.

Amaduka menshi hirya no hino mu mijyi igiye itandukanye mu gihugu, ukunze gusanga afite ubu etajeri bw'ibirahure, aho ushobora kubona ibicuruzwa byabo kandi bisa neza.

Iyi ni imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa TOYOTA, iri ku isoko, aho ushobora kuba wayigurira ku maduka ayizicuruza, nk'aha ngaha ubona ko iyi foto.

Hari amakampani menshi akora ibijyanye no kugura cyangwa ukaba wakodesha imodoka, aho ushobora kugura imodoka ukaba bayikugezaho, cyangwa ukaba wajya kuyireba aho bakorera.

Abantu benshi bakunze ku kugurira amata mu maduka yabugenewe, aho usanga amata bagupimira ikigiro wifuza, waba ukeneye ritiro, inusu, ritiro nyinshi, barayaguha nk'uko uyifuza.

Iri ni iduka rizwiho gucuruza amata ry'uruganda rw'inyange aho wahasanga ibintu byinshi bitunganya n'urwo ruganda yaba amata, imitobe, amayawurute n'ibindi byinshi.

Ni inzu iri gukorerwamo igikorwa cy'ubucuruzi butandukanye harimo gucururizwamo ibyo bise amata, harimo umugabo n'umugore bari gukora gucuruza, inzu ifite amarangi y'ubururu.

Mu makusanyirizo y'amata cyane cyane ay'i Nyanza kuko bakunze kuvuga ko Nyanza igira amata meza, ukunze gusangamo urujya n'uruza rw'abantu bajya kugura amata, yaba abagore cyangwa abagabo n'abana.

Guhitamo uburyo ugomba kwishyura amafaranga ahantu ugiye kuyishyura ingano y'amafaranga cyangwa ugahitamo gusubira inyuma utangire cyangwa usubizwe ayo mafaranga wari ugiye kwishyura bitewe n'uko angana.

Ubu buryo ni uburyo bugaragara ko wagura ifatabuguzi rya interinete ukoresheje telefone ugura interinete ku murongo wa eyateri mani.

Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera hirya no hino mu gihugu, hariho ukuntu kwashyizweho mu kuba wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ufata amafaranga yawe ukaba washyura yaba mu madorari cyangwa mu manyarwanda.

Umurongo wa MTN nk'umwe mu mirongo ikunzwe n'abatari bakeye mu gihugu, ukunze gusanga bifashisha telefoni y'umuntu mu kuba wakohereza amafaranga cyangwa ukaba wayakira kandi utavuye aho uri.

Rise ya Rwanda revennyu otoriti, igaragaza ko umuntu yishyuye imisoro, iriho repubulika y'u Rwanda, ikirangantego cyayo, hariho tini namba umuntu agomba kwishyurira, hariho amafaranga yishyuye, izina ry'umuntu wishyuye na sinyatire.

Ni icyangombwa kigaragara ko wishyuye, yaba amafaranga cyangwa ubundi buryo wakoresheje wishyura, cyerekana ibicuruzwa waguze, ingano umwimerere w'ibicuruzwa, hariho sinye, idarapo ry'igihugu.

Uru ni urupapuro rwa banki aho urwuzuza cyangwa ukarusinyaho igihe wakiriye amafaranga uyabikuje kuri konti yawe banki, uyakeneye bakayaguha mu ntoki.

Hari ibiro byinshi bishinzwe ivunjisha, aho ushobora kubagana igihe ukeneye kuvunjisha amafaranga; waba ukeneye amadolari, amayero cyangwa andi mafaranga y'amanyamahanga utanga ayo mu Rwanda bakaba bakuvunjira.

Mu biro by'ivunjisha ukunze gusangamo abanyamahanga bagiye kuvunjisha amafaranga yabo bayazana mu mafaranga, igihugu barimo bakoresha.

Ni inote ya magana atanu y'amashilingi y'Amatanzaniya, hariho umugabo, hariho n'imibare, hariho na arufabe igize inote, n'ikirangantego kimeze nka piramide, inote yanditseho : Refutova karensi doti komu,...

Aha ni mu biro by'ivunjisha aho ugana igihe ukeneye amafaranga yaba amanyarwanda cyangwa amanyamahanga, bakaba baguha ayo wifuza bitewe n'ayo ukeneye.

Hari amaduka manini agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, aho bakora ibikoresho nk'intebe cyangwa ameza akoreshwa mu masaro y'abantu, aho baba bakorera cyangwa aho baba.

Ni igitanda kigaragara gikoreye mu mbaho kiri ku butaka, hirya hari ishitingi y'ubururu n'izindi ntebe nyinshi, bigaragara ko ari ahantu babariza mu gacinjiro cyangwa k'umuntu wikorera ku giti cye.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye za Banki ya Equity, banki yacu y'abaturage, irembo, haparitse imodoka ku nzugi ziyo ni bururu hari n'igikuta cy'umweru.

Uburyo bwo kujya muri banki, bukora kubikura haba kubitsa, hari umudamu n'umugabo uri kuri nimero ya mbere undi kabiri bafite hari abari kubaha iyo serivisi y'amafaranga.

Ibigo by'ubucuruzi cyangwa amabanki bikora mu kuba byaguriza abantu bikunze kuba bifite impapuro nini ziriho amabwiriza y'ukuntu inguzanyo ifatwa n'uko izishyurwa.

Ni umugabo uri ushimye kubera inyungu yabonye mu gukodesha amazu. Yabonye amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri, cyangwa no guhomba. Yambaye ishati y'ubururu ari guseka.

Abagore bacuruza mu isoko bacuruza imboga, imbuto n'ibindi bitandukanye aho usanga hari abakiriya benshi baje kugura ibyo guteka yaba imboga cyangwa ibindi bitandukanye.

Ni isoko rusange ririmo ibicuruzwa, abaguzi n'abagurishwa ririho yubakishijwe amabati y'ubururu, harimo ababigannye abagore n'abagabo harimo bicuruzwa bihari by'amoko yose.

Mu Rwanda uhasanga amasoko menshi acuruza ibintu bitandukanye, yaba inkweto zo gukorana mu rugo, ibitenge imyambaro n'ibindi byinshi urabihasanga aho usanga hari abacuruzi batandukanye, ibyo wifuza byose urabihasanga.

Ni ifoto igaragaraho umumama uri gucuruza imbuto zitandukanye; inanasi, imyembe, ibinyomoro, amatunda, ahantu mu isoko; wambaye imyenda y'umweru, ucuruza ku kiguzi icyo aricyo cyose.

Mu gihugu hafi ya hose ukunze gusangamo abacuruzi b'amasambusa, yaba ay'ibiraha cyangwa ay'inyama, aho akunze gukundwa cyane cyane n'abana n'abagore ngo kuko aryoha kandi abafasha mu kuba bagabanya inzara muri bo.

Umukozi w'umuyoboro wa emutiyene uhagaze imbere y'icyapa, uri kuvugira mu nsakazamajwi, aho azengurutswe n'abanyamakuru benshi, inyuma ye hari imodoka iri ku cyapa.

Imbuga nkoranyambaga zifashishwa mu kuba wagura cyangwa bakagurisha, ukunze gusangaho, amagambo menshi asobanura uburyo sisitemu yabo iba ikoramo, kugira ngo utaza kuba wagorwa no kuyikoresha.

Mu kugura cyangwa ukagurisha wifashishije murandasi, ukunze gusangaho ibiciro byaho ari bitoya ugereranyije no ku masoko yandi ibiciro byaho uko biba bihagaze, aho ushobora gusanga igiciro bakigabanyijeho kugeza nko kuri mirongo itatu nagatanu ku ijana

Hirya no hino mu gihugu hari amaduka acuruza intebe, aho akunze kwifashisha abakomisiyoneri bazwiho kuba wakwamamaza ibikorwa byawe cyangwa icyo ushaka kugurisha kikaba cyagurwa vuba.

Mu gihugu hakunze kugaragaramo amazu menshi yubatswe ari ayo kugurisha, aho bayaha abakomisiyoneri bihurije hamwe bakaba bayaranga akaba yabona abakiriya.

Inzu yo gukodeshwa amafaranga angana n'ibihumbi bitatu by'idolari ku kwezi, iherereye i Kigali mu Rwanda, ifite ku byumba bitanu na ofisi iri Kicukiro, yubatswe neza.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imboga, imbuto n'ibindi byinshi, aho ubihasanga ku giciro cyiza, haba hari abacuruzi batandukanye n'uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Mu isoko hari abantu batandukanye, abaguzi n'abagurisha, harimo umuntu uhetse igikapu, harimo abantu benshi bacuruza imyenda, bishyura ku giciro gitoya cyo buri muntu wese aba...

Ubwishingizi butandukanye bwashyizeho ibihembo ku bantu bakoresha cyangwa bahabwa serivisi yaba zubwishingizi, ejo heza, sonerwa, n'ibindi byinshi ho bagenera ibihembo abakiriya babo.

Umugabo uhagaze mu busitani, n'igikuta cyubakishwa amatafari ahiye, afite sheke yishyuriweho na arasesibi ifatanya n'ubuzima ari itariki yishyuwe amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Abantu bateranye harimo igitsina gabo n'igitsina gore, hari ufite isakoshi y'umukara, umuntu umwe arahagaze, yambaye agatambaro mu mutwe, abantu bagizwe n'umubare bane imbere, umwe inyuma n'undi uhagaze hari n'umugabo ufite

Aka gapapuro ni akazwi nka mituweli aho gafashwa mu kwivuza nk'umuryango urayishyura mukivuza ku giciro kiza nk'ubwishingizi bugenewe buri muturarwanda wese.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye yaba ibikoresho by'ubwiza, amavuta isabune, n'ibindi byinshi, ririmo amakaro y'umweru rifite ubuso bunini aho ushobora kugana ukabona ibyo wifuza byose.

Ni ahantu hagurishwa ibicuruzwa bitandukanye ibiribwa, ibinyobwa hari mu nzu hari hasi hasashe amakaro, hari n'umuryango wa kane utandukanye bakoramo serivisi yo kugura no kugurisha.

Isoko rinini cyane ririmo abakiriya benshi aho bacuruza ibiribwa byinshi yaba ibikorwa mu mafarini n'ibindi bitandukanye kandi uhasanga n'ibinyobwa.

Amaduka manini amwe ataba aciriritse nk'ayandi yo mu makaritsiye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo ibicuruzwa yaba ibyakorewe mu nganda cyangwa ibidakorerwa mu nganda, aho ushobora kugenda wihereza ikintu kandi ukakiha vuba.

Icuyapa cyanditseho supamaketi, munsi ya etaje haparitse imodoka hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ipantao y'ikoboyi hari umuhanda, hirya yaho hariho n'ibiti hari munsi y'icyo cyapa cyanditseho Simba supamaketi, hari ikirabo.